Abantu benshi bambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umutuku, bigaragara ko ari abaganga ndetse n'abakozi bo mu muryango utabara imbabare, bakaba bari kurwanya icyorezo cya Marburg.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka Croix rouge, bambaye amajeri y'imituku bari mu nama aho imbere yabo ku meza buri wese afite icupa ry'amazi.

Abafite ubumuga nabo barashoboye. Ni ngombwa ko kwa muganga nabo bajya babitaho uko bikwiriye kuko nabo ari abantu nk'abandi, kandi ubwo bumuga bakaba batarabwiteye, ahubwo bwaraje nk'impanuka.

Utudege dutwara amaraso tuzwi nka drone, aho nta bapilote baba barimo, turi ahantu, aho bari gushyiramo amaraso, ngo bahite bakagururuka, hanyuma kayajyane ku kigonderabuzima runaka, baba bagategetse.

Umugore wambaye amadarubindi ufite n'imisatsi yasutse akaba yambaye n'ikositimu ry'umweru bigaragara ko ari umuganga, ari kugenda yita ku barwayi bagiye batandukanye bahuye n'ibibazo.

Umugore uri kugenda yambaye imyambaro yo kwirinda icyorezo runaka, ahetse n'impombo, bigaragara ko agiye gutera imiti irinda Malariya, akaba ageze imbere y'inyubako ifite inzugi z'icyatsi.

Inyubako nziza cyane, aho iteraniyemo abantu benshi cyane, harimo abakorera Umuryango wita ku barwayiCroix rouge ndetse n'abandi bantu baje gushaka izo serivisi.

Ihene ziri ahantu ziri kurisha, zikaba ziri kumwe n'abashumba bazo bagiye batandukanye. Aho ari ihene zatanzwe na leta y'u Rwanda iziha abaturage kugira ngo biteze imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo icyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Hakaba harimo umusore uryamye ku gitanda, ari gutanga amaraso mu rwego rwo gutabara indembe.

Umuntu uryamye ku gatanda aho ari gutanga amaraso akaba akorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka Croix-Rouge, akaba ari gutanga amaraso.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarange y'umweru ku bikuta ndetse ikaba irimo utuntu tw'umutuku bifashisha bari kuvura abarwayi, akaba ari imiti.

Icyumba k'inama giteraniyemo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, aho ibi bikoresho byifashishwa mu buvuzi bavura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za Kinyarwanda.

Akamodoka ka Minisiteri y'ubuzima ku kigo nderabuzima cya Nyagatare ndetse n'ibitaro bya Nyagatare aho hari abantu bari kuvanamo agasanduku karimo imiti bagiye kwifashisha bavura.

Abaganga bagiye batandukanye bateraniye hamwe, aho bari kuvura indwara zigiye zitandukanye bavura abarwayi. Umurwayi wese waje urembye, bamwitaho mu buryo bwose bugaragara kugira ngo abashe gukira.

Ibitaro bifite inyubako nziza cyane yubakishije amakaro ku bikuta, aho harimo abaganga bagiye batandukanye bambaye impuzankano z'icyatsi aho bari kwita ku barwayi baje babagana.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bicaye bari mu nama, inyuma yabo ku gikuta hakaba handitsemo ngo urubyiruko kugira amakuru ku buzima bw'imyororokere, ni uburenganzira bwanyu.

Umugore wambaye itaburiya iri mu mabara y'umweru, akaba kandi yambaye umudari mu ijosi werekana akazi akora ko ari akazi k'ubuvuzi aho yita ku baturage.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, imbere hari abapolisi bafite imbunda, inyuma hari abandi bafite ikirango cy'ikibanderole, kiri mu mabara y'umweru, cyanditseho ngo ibitaro bya Gatunda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu gikorwa cyo kwibuka, aho ab'imbere bafite banderole yanditseho ngo Ibitaro bya Nyagatare kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsina gabo n'igitsina gor, biganjemo abera n'abira n'abirabura bakaba bahagaze imbere y'inyubako bari kwifotoza bigaragara ko inama bari barimo irangiye.

Ni byiza cyane ko mu bitaro haba hari abantu baza gusura abarwayi bakareba uko bamerewe kugira ngo abo barwayi na bo bakomeze bigirire ikizere cy'ubuzima bwabo.

Umuntu urymye kwa muganga ku gitanda, akaba ari kumwe n'abaganga bari kumwitaho, aho bari kugenda bavuga ko kumuvura bitari byoroshye ariko kubera ubuhanga bwabo bakaba babishoboye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye. Ikaba isakaje amabati ndetse imbere yayo hakaba hahagaze abantu benshi cyane bagiye batandukanye baje gushaka izo serivisi ndetse imbuga ikaba ishashemo amapave, hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, igihe cyose ukeneye iyi serivisi ni ngombwa ko uza muri iyi nyubako bakakwitaho bakaguha ubuvuzi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho harimo umugabo w'umurwayi wicaye ku gitanda abaganga bari kumubaza uko bamerewe na we akababwira ati " nta kigenda munyongere urundi rushinge."

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere hateraniyemo abantu benshi cyane bari mu nama bigaragara ko ari abaganga, bakaba bari kwiga uko bateza imbere ubuvuzi bukagenda neza.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye hamwe kwa muganga, bigaragara ko ari abaganga ndetse n'abarwayi, bakaba bafite amakayi bari kugenda bandikamo indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iteye amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi ku bikuta, hakaba haryamyemo abarwayi bigaragara ko ari kwa muganga aho batanga serivise zigiye zitandukanye zita ku barwayi.

Umugore w'inzobe wambaye itaburiya y'umweru n'udupfukantoki tw'umweru, bigaragara ko ari umuganga. Afite urushinge mu ntoki, akaba ari muri laboratwari akora ubushakashatsi butandukanye.

Ahakorerwa ubushakashatsi bugiye butandukanye mu bijyanye n'ubuzima, hazwi nko muri laboratwari. Haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, umuntu yifashisha, iyo ari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima.

Umugabo uri muri laboratwari aho ari gukora ubushakashatsi bugiye bukiratandukanye ku cyuma bita microscopi, kifashishwa cyane cyane mu gusuzuma ubuziranenge bw'ikintu runaka.

Umuntu uri muri laboratwari aho bigaragara ko yiga ibijyanye n'ubuvuzi, akaba afite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gusuzuma indwara, ari kugenda akora ubushakashatsi kuri izo ndwara.

Umuntu w'umuganga wambaye udupfukantoki dusa umweru, akaba afite udukoresho turiho amaraso ari kugenda akora ubushakashatsi apima indwara runaka.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba ari muri laboratwari, ari kugenda akora ubushakashatsi bugiye butandukanye ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo akomeze kugira amakuru ahagije.

Umugore uri kwa muganga muri laboratwari aho ari kugenda akora ubushakashatsi ku ndwara nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo amenye uburyo bazipima nuko bazirinda.

Abaganga benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari mu bushakashatsi, aho bari muri laboratwari, bambaye amataburiya ari mu mabara y'umweru ndetse bakaba bari kugenda banaganira.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bahuriye hamwe bari mu gikorwa cyo gutanga ubutabazi bw'ibanze bwo kuzimya gaze igihe iba yafashwe n'inkongi y'umuriro.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, akaba ari kumwe n'umwana mutoya uri munsi y'imyaka itanu, aho uwo mwana ari kunywa igikombe cy'igikoma mu rwego rwo kugira ngo barwanye imirire mibi ndetse na bwaki.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bambaye impuzankano, imbere yabo hari umuganga, uri kugenda abitaho, yambaye itaburiya y'umweru abasohoza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye higanjemo abagabo, aho bafite abana bari kugenda bitaho, babaha ibyo kurya, mu rwego rwo kunoza imirire mu Rwanda ku bana bakiri batoya, kugira ngo bamererwe neza.

Umugore uri gupima umurwayi akaba yambaye imyambaro y'umweru umurwayi yambaye itaburiya, uwo mugore rero ni umuganga wabyigiye uri kumupima umuvuduko w'amaraso.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'amadarubindi ,akaba ari muri laboratory aho ari kugenda akora ubushakashatsi ku ndwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Umugore wambaye agapira ka oranee akaba acigatiye umwana aho ari kumugaburira ibiryo ku isahani, mu rwego rwo kumurinda igwingira, bwaki ndetse n'imirire mibi.

Umugore ukikiye umwana, ari kumwe na bagenzi be, bahuriye kwa muganga mu gikorwa cyo gukingiza abana kugira ngo bagire ubuzima bwiza maze bazakure neza mu buryo bwose.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, akaba afite indangururamajwi mu ntoki. Akaba akorera ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima. Akaba ari kugenda avuga uburyo tugomba kwita ku bana bacu.

Umugore uri ahantu mu nama akaba afite indangururamajwi mu ntoki, ari kugenda atanga ikiganiro ku bantu bitabiriye iyo nama kugira ngo abakangurire kwita ku abana.

Umugabo n'umugore we bakaba bicaye ahantu ku ntebe uwo mugabo akaba ari umuganga, umugore we yaje kuvuza umwana none umugabo ari kuvuga ati "umwana wange ngomba kumwivurira."

Abantu benshi cyane biganjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bahagaze bari kwifotoza, hagati yabo harimo umuzungu bigaragara ko bari bari mu kiganiro k'ibijyanye n'ubuzima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho imbere hateraniyemo abantu benshi cyane baje mu inama. Bakaba buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye akaba ari kugenda asomaho gake gake.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, aho bakirira ababagana, hari insakazamashusho yerekana amashusho.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye hamwe, aho bari mu nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho ikibazo cyose waba ufite bakikuvurira hanyuma kigakira ugataha uri umuntu muzima.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo abana ndetse n'abantu bakuru, bakaba bari mu matende yubatswe neza atatse mu buryo bw'idarapo y'u Rwanda ari mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kwishima, babyina ndetse baseka, aho bahagaze mu busitani imbere yabo hari abayobozi babo.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye hamwe, aho bambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi, bakaba bari kwishima bakoma mu mashyi ndetse babyina bigaragara ko bizihiwe.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo imiti igiye itandukanye bacururizamo, aho ari muri farumasi igihe icyo ari cyo cyose uje kwivuza, baguha imiti.

Agacupa kaba kari mu gakarito gasa icyatsi ndetse n'umweru, aho kaba karimo imiti igiye itandukanye, tukaba dukunze kugasanga muri farumasi, igihe cyose tugiyeyo kugura imiti.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho mo imbere harimo farumasi, bakaba bacururizamo imiti myinshi igiye itandukanye ku buryo indwara yose umuntu aba arwaye ayibabwira bakamuha imiti.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru ku bikuta ndetse ifite n'inkingi, imbere yayo hakaba haparitse akamodoka k'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB.

Amacupa agiye atandukanye, harimo imiti iba iri muri farumasi, yifashishwa mu kuvura abantu bagiye batandukanye kugira ngo bagire indwara nyinshi baba barwaye.

Kwa muganga hatangirwa serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima, aho umuntu wese uhageze arwaye, bamwitaho bakamuha imiti, maze akavurwa agakira, mu gihe gito cyane akaba yabaye umugege,

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere bacururizamo imiti igiye itandukanye, yifashishwa bavura abantu. Hakaba hazwi nko muri farumasi ndetse hari ibikuta biteye amarangi y'umweru n'umuhondo.

Ahantu bacuruza imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane rwose kuko umuntu wese ufite ahantu hacuruza iyi miti, wanyarukira ukayibona.

Akabati karimo imiti igiye itandukanye aho iyo miti ari ingenzi cyane kandi ikaba yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Igihe cyose waba urwaye unyarukirayo bakakuvura.

Farumasi ahacururizwa amoko agiye atandukanye y'imiti aho iyi miti yifashishwa mu kuvura abantu runaka baba bagize ikibazo, igihe cyose ukeneye iyi miti ni byiza ko wanyarukira muri farumasi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho imbere yayo hari icyapa cy'umweru cyanditseho ko ari ivuriro ryo kwa Jack, riherereye i Nyagatare mu Ntara y'Iburasirazuba.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ifite imiryango igiye itandukanye aho iyi miryango icururizwamo farumasi, aho haba havurirwa indwara nyinshi zagiye zitandukanye.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe aho higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bari kugenda bamamaza ko bagomba kurwanya virusi itera sida.

Abantu bagiye batandukanye, bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gutanga udukingirizo ndetse no kudukoresha neza, bakaba bari kugenda baduha urubyiruko, mu rwego rwo kwirinda indwara za SIDA.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bari hanze munsi y'ibiti, bari mu gikorwa cyo kwamamaza. Imbere yabo hagaze umugabo w'umuyobozi wambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Abantu benshi cyane bari kugenda bafite icyapa mu intoki bigaragaza ko ari abapolisi ndetse n'abandi bari mu gikorwa runaka cyo kwamamaza, aho insanganyamatsiko iri kuri kimwe cyapa.

Inyabarasanya ni zimwe mu byatsi by'ingenzi cyane bikunze kuvura indwaragiye zitandukanye cyane cyane n'indwara zo gukomereka. Sibyo gusa kuko ziribwa n'izindi nyamaswa.

Agacupa kari mu mabara agiye atandukanye, aho gafite umupfundikizo w'umutuku n'akandi gafite umupfundikizo w'umweru, tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Umugabo uri ahantu mu nzu aho iyo nzu ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi bwa gakondo, aho baba bavura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Uburwayi bw'uruhu ni uburwayi buba bukaze cyane, aho igihe cyose ubonye ibimenyetso byabwo ari byiza ko wakwihutira kujya kwa muganga bakaguha imiti kugira ngo barebe ko wakira ubu burwayi.

Umuzinga ni kimwe mu bikoresho bifashisha abantu bakora umwuga w'ubworozi bw'in inzuki, bazwi nk'abavumvu. Haba harimo ibirere bigiye bitandukanye bawukoramo, hanyuma inzuki zikazajya ziberamo.

Agasekuro k'umweru karimo imiti igiye itandukanye, aho iyi miti ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese uyiriye arwaye indwara za kinyarwanda ahita akira byihuse cyane.

Kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye aho harimo ibikoresho byinshi abaganga bifashisha bari kuvura abarwayi, haryamyemo umugore urwaye bigaragara ko afite ikibazo runaka.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe muri sale y'inama bakaba biganjemo igitsina gore n'igitsina gabo, imbere yabo hakaba hari umugore w'umuganga uri kugenda abaganiriza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu nama biganjemo abambaye imipira y'umutuku, bakaba bari kuri kandagira ukarabe bari kwerekana imikoreshereze y'izo kandagira ukarabe.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hakaba harimo n'abajyanama b'ubuzima, bakaba bari kugenda bakoma mashyi bishimye cyane bishimira ibikorwa byiza bamaze kugeraho.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho harimo abakecuru n'abasaza, bakaba bagiye kwa muganga. muganga ari kubaganiriza ibijyanye n'ubuzima bwabo n'icyo bakora kugira ngo burusheho kuba bwiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite n'ibikuta biteye irangi ry'ubururu, ikaba ari inyubako y'ivuriro ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bicaye ahantu mu nyubako hakaba higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Umuganga akabura kugenda avura abarwayi abitaho kugira ngo arebe ko bamererwa neza.

Ni kwa muganga mu nzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho hari umugore w'umuganga uri kugenda avura abarwayi ababaza uko barwaye, bamubwira nawe aba arushaho kubavura.